Hari inyamaswa zimwe na zimwe dusanga mu kiyaga nk'amafi, isambaza n'ibindi. Nk'izo nyamaswa harimo iziryana, ndetse kandi zishobora kuba zakwangiza abantu kandi zinaribwa.

Amafi ni bimwe mu biribwa bituruka mu mazi biribwa, bishobora kugirira umubiri umumaro, biri mu bwoko bw'inyama. Mu mazi havamo ibiribwa bibiri bitandukanye, nk'isambaza, indugu, ndetse n'amafi.

Ibihingwa ngandubukungu n'ibihingwa ngandurarugo ni bimwe mu bifasha abaturage kubona ibyo kurya, ndetse no guteza iterambere ubukungu bwabo, imyumbati ni kimwe mu bihingwa ngandurarugo bifasha abaturage kubona ibyo kurya, ndetse bitunga n'imiryango yabo. Ikawa, icyayi ni bimwe mu bihingwa ngandurabukungu bifasha iterambere ry'igihugu.

Ubuhinzi ni umurimo ukorwa n'abantu bagiye batandukanye, abagore abagabo ndetse n'abandi. Mu buhinzi dusangamo ibihingwa bitandukanye ibigori, ibirayi ndetse n'ibindi bihingwa, byafasha mu rugo mu bukungu ndetse no mu iterambere ryabo.

Imbuto ni kimwe mu bihingwa byiza kandi bifasha umwana ndetse n'abantu gukura neza. Mu mbuto tugira imbuto nyinshi zitandukanye harimo; ibipapayi, marakuja n'ibindi. Igipapayi ni urubuto rwera ku giti, bikaba byakweraho ari byinshi kandi bikaza ari binini kandi bigaragara neza.

Mu biribwa bishobora gutunga umuryango harimo byinshi bigiye bitandukanye. lbidufasha kugira imbaraga bigatuma tumera neza. Ibishyimbo ni kimwe mu bihingwa bifasha abantu kuba bamera neza, bakarya bakanezererwa kuko ari kimwe mu bihingwa byiza kandi bifasha abantu mu buzima bwa buri munsi. Ibishyimbo ni kimwe mu bihingwa biryoha kandi byiza cyane.

Mu buhinzi dusangamo ibihingwa bitandukanye hari ibitunga umuryango, ndetse n'ibihingwa bifitiye umuryango akamaro ndetse n'igihugu muri rusange. Icyayi ni kimwe mu bihingwa ngandurabukungu gifitiye iterambere Igihugu ndetse n'abaturage muri rusange, cyifashishwa gikurarwamo icyayi cyo kunyobwa ndetse no kubona amafaranga mu gihe wabigurishije.

Mu mirimo y'amaboko harimo imirimo igiye itandukanye nk'ubuhinzi ndetse n'ibindi. Mu buhinzi dusangamo ibihingwa bigiye bitandukanye bimwe bishobora gutunga umubiri ndetse n'ibindi bishobora kwifashishwa mu bikorwa rusange. Umuceri ni kimwe mu bihingwa bishobora guhingwa mu bishanga cyangwa se mu bibaya.

Ubuhinzi ni umwuga ukorwa na buri umwe wese, yaba umugore, yaba umwana, bose bawisangamo. Mu buhinzi harimo byinshi bitandukanye, ibigori ndetse n'ibindi. Mureke twiteze imbere mu buhinzi, maze ireme ry'ubukungu n'iterambere ryaguke.

Mu buhinzi duhinga ibihingwa bitandukanye, ari ibyo turya ndetse n'ibyo dusagurira amasoko . Icyumba cyubakishije amatafari kirimo imifuka myinshi irimo umuceri.

Mu bihingwa duhinga harimo ibyo turya binatera imbaraga, kandi bifitiye umubiri umumaro. Imyumbati ni kimwe mu bihingwa bitera imbaraga, kandi byera cyane bitanga umusaruro cyane.

Mu bihingwa biribwa dusangamo byinshi bitandukanye nk'ibishyimbo, imbuto, amashyaza n'ibindi. Amashyaza ni bimwe mu bihingwa dukunda guhinga, kandi ibiribwa bikenerwa mu buzima bwa buri munsi.

Tuhasanga amatungo magufi atandukanye : nk'ihene inkwavu, intama n'ibindi . Ingurube ni imwe mu matungo magufi, yorohererwa mu rugo, yororoka vuba kandi cyane ,agaha umusaruro abayoroye ndetse na ba nyirayo.

Amatungo yo mu rugo akwiye kubungwabungwa, akubakirwa ibiraro bizima bimeze neza, kugira ngo nayo abe ahantu heza kuko ari amwe mu matungo atanga nayo umusaruro, cyane ingurube ni itungo rigufi ryo mu rugo rigomba gukurikiranwa ,rikitabwaho rikubakirwa ibiraro byiza kugira ngo zikure neza.

Ni amatungo yo mu rugo ni ngombwa kwitabwaho ndetse agakurikiranwa, kugira ngo yororoke neza hari abavuzi cyangwa abo twita abaveterineri bashinzwe gukurikirana ubuzima bw'amatungo, ndetse n'imyororokere yayo akayitaho akayakurikirana akayavura, bityo bigatuma akura neza.

Amatungo atandukanye yororerwa mu rugo harimo nk'inka. Inka ni rimwe mu itungo ridufasha kubona amata ndetse n'ibyo kunywa, ayo matungo akurikiranwa n'umuvuzi wayo ari we veterineri ukurikirana uko amatungo amerewe, akamenya niba arwaye n'uburwayi arwaye akayakurikirana akayavura.

Mu ishyamba hagiye harimo inyamaswa zitandukanye, izigendera mu kirere n'izigendera ku butaka. Inyoni cyangwa igisiga ni imwe mu nyamaswa zigendera mu kirere.

Mu ishyamba ni hamwe dushobora gusanga ibintu bigiye bitandukanye nk'inyamaswa. Inyamaswa zigiye zitandukanye, iziribwa ndetse n'izitaribwa, kandi mu ishyamba harimo n'inyamaswa zishobora kugirira abantu nabi zikaba zabarya. Nk' inyamaswa zigendera hejuru ntizigenda zikururuka. Mu zigendera hejuru zifite amaguru ane n'amahembe ndetse.